Ndimo ndabona ahantuje gushimira abasorera ku nshuro makumyabiri nari rimwe ukwezi ko gushimira abasore ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, saba fagitire ya ibiyemu wubake u Rwanda, ndabona aribyo byanditse mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi.

Inyuma ndabona abantu abagabo babiri yu umwambaye umupira wumukara n'umweru n'umutuku yambaye icyatsi n'umwerumabara mu mupira ye'in ingofero bicaye imbere ya mudasobwa basa nkahobari gutanga serivisi z' mache zateretse ku meza ni mumashin yobwoko bwa desktop bari kureba mu mumashini.

Ni ukubona hari ahantu handitse kumenyekanisha uyu munsi umusoro ku nyungu zabiri na makumyabiri nagatatu ,wishyure bitarenze kuri mirongo itatu nimwe z'ukwa gatatu makumyabiri nakane ,ndabona mudasobwa ndabona na telefone harimo kode kwishyuriraho ,ndetse na mudasobwa berekana ukuntu wanyura muri system wishyuye umusoro kandi nyuma hari baground y'ubururu.

Ndimo ndabona ipoto y'amashanyarazi ifashe taransifoma, igiye iriho amasinga ajyana umuriro, inyuma yaho hari amazu, iyi taransifoma iteretse hagati y'amapoto abiri, aho ishyigikiwe neza kugira ngo itagwa ndetse inyuma yaho hari amazu yubakishije amatafari ahiye, ifite n'amadirishya asizeho ibara ry'ubururu ndetse n'amabati ari mu ibara ry'umutuku.

Ndabona na none abantu benshi bari mu nzu mberabyombi, basa nk'aho bari mu nama, imbere hari urwego rwa polisi yambaye jire ya ribu, harimo abantu benshi bari kwandika bicaye ku ntebe z'umweru hari n'amatara

Ndimo ndabona ibiti, nkabona n’imodoka yo mu bwoko bwa vatire. N’indi y’akamyo imodoka yo mu bwoko bw’ivatiri irasa ivu yo mu uza iyo mu bwoko bwa dayihatso y’umweru ifite inyuma h’umutuku. Ndimo ndabona na senyenge z’icyahatsi, ndetse n’umuntu wambaye agapira k’umuhondo n’ipantaro y’umukara n’inyuma haparitse amakamyo.

Ndabona inyubako igeretse imbere haparitse imodoka ebyiri harimo ifi ibara ry'umukara ntarindi vatiri iri inyuma hari icyapa cyanditseho samba supamaketi harihomo na ji gerebu deri fanta hari agaporutaye gasa umweru hirya hari inzu ntoya ahantu hapavomye hari yo inzu iri mu mabara y'umuhondo ifite ibirahuri by'umukara.

Ndimo ndabona inzu iri kuri impande ya kaburimbo, iri mu bwoko bw'inzu dukunda kwita izigeretse ndabona ifite amabara y'ivu n'umuhondo werurutse cyane, hateyemo ibiti mo imbere n'amarangi y'umweru, n'ibirahuri mo ndabona hasi ifite fondasiyo isizemo umukara.

Ndimo ndabona ahantu hari amazu asa menshi n'ibigega n'amatara, hari n'ahantu hari antene y'igisahani ndetse amazu yaho ari mu ibara ry'ivu ndetse n'amatafari ahiye.

Ndimo ndabona ikamyo itwaye ibintu by'umweru n'icyatsi iri mu muhanda mbere harigore babiri ikayo y'kiraro hari mo harimoto amapoto hari nade hari arinari zimo amazi.